Icyapa kiriho abantu batandukanye, bakurikirana ibijyanye n'ubuzima, mu ibara ry'ubururu handitsemo amagambo agira ati ''Nta gusiga n'umwe inyuma'' mu cyongereza ari byo ngo ''Leaving no one behind.''

Ababyeyi bafite abana bicaye, ndetse barimo umuganga uri kubitaho, nyuma y'umuganga hari igikapu azanamo ibikoresho bye, nk'imiti n'inshinge n'ibindi.

Abantu baje kuvoma ndetse no gukora ibindi bikorwa by'isuku ku mugezi; aba bantu harimo abana bato ndetse n'abakuru; umumama ndetse n'inkumi zikenyeye ibitenge gusa.

Abaganga babiri bambaye amashashi mu mutwe n'amakanzu y'ubururu, bari kugenda basuzuma abaturage, ibijyanye n'ubuzima bwo mu kanwa. Uwo bari gusuzuma yambaye igikanzu kinini cy'umukara n'akagofero mu mutwe k'ubururu.

Ivomo ryo mu cyaro bakunda kwita igipompo, ririmo abana babiri umwe ateze amazi meza yishimye, undi ari kuyapompa kugira ngo babone ayo bacyura mu rugo.

Ababyeyi baje kwa muganga, gukingiza abana babo, umubyeyi uri imbere ateruye umwana ukiri mutoya mu ntoki, akaba afite n'ifishi yahawe umwana akivuka.

Abana beza cyane batatu bari munsi y'igiti bakaba bari koga intoki n'amazi meza cyane, aba bana barishimye kandi bigaragara ko bafite ubuzima bwiza.

Umugore wishimye cyane uri gukaraba kuri kandagirakarabe zo gukorana amaboko za zindi zo gufata akajerekani ukagashyiramo amazi, ukakamanika mu biti bibiri bifite umutambiko.

Abantu batandukanye biganjemo abagabo n'abagore bakuze, hakaba harimo n'abazungu babiri bahagaze m'uburyo bwo gufata ifoto, bahagaze ku mbuga imeze neza cyane inyuma yabo hakaba hari icyapa cy'umweru.

Abantu bari kuvoma amazi meza cyane kandi uri kubona ko babyishimiye kuba amazi yarabegerejwe batagikoresha amazi y'ibiroha kuko mu kinyarwanda bavuga ngo amazi ni ubuzima.

Abagabo babiri bambaye udukote tw'umukara bombi bishimye bakaba bari gukorana mu biganza, bigaragara ko bemeranyijwe gufatanya mu kurwanya icyorezo cya maribaga.

Abantu bo mu gitsina gore bane baje gushaka serivisi zitandukanye, ubona ko batishimye mbese barareba nk'abarwaye, cyane cyane umumama wambaye ibitambaro by'ubururu.

Umubyeyi wazanye umwana we kwa muganga kumusuzumisha, umuganga yambaye itaburiya y'umweru akaba afite n'imisatsi inyereye, ahantu bari hakaba hubatse nko mu cyumba k'ishuri kuko hari icyapa cy'umukara.

Umugabo n'umugore hagati yabo hari udupfunyika dutandukanye tw'ibintu bitandukanye, umugore yambaye agapira k'icyatsi ndetse n'isaha y'umweru, umugabo yambaye ijiri yanditseho mu mugongo Wodi Herifu Oruganizashoni.

Abajyanama b'ubuzima batanu, abagore bane n'umugabo umwe. Aba bajyanama buri rimwe yambaye agapira k'ubururu ndetse n'ingofero y'umweru. Biragaragara ko bishimiye akazi bakora.

Icyumba kiberamo inama, hari kuberamo inama yiga ku bijyanye n'ubuzima, yitabiriwe n'abantu b'abanyacyubahiro, buri wese afite simatifone ndetse n'icupa ry'amazi y'Inyange imbere ye.

Abantu batandukanye barimo basaba serivisi zitandukanye, aba bantu ni ababama bishimye, hakaba harimo umugore wifashe mu manyankenya wambaye iribaya n'igitenge cy'ubururu akaba ateze umutwe we.

Abantu babiri bambaye imyenda y'icyatsi n'undi wambaye agapira k'umweru, bombi bakaba bambaye udupfukamunwa tw'umukara, ameza bicayeho akaba ariho uducupa tw'Inyange twuzamo amazi yo kunywa.

Umuganga uri gutanga serivisi z'urukingo, ari gukingira umuntu yambaye umwenda w'ubururu, umuganga yambaye ga ndetse n'itabuririya iranga ko ari umuganga, si uwo wenyine ari gukingira, kuko hari n'abandi benshi bategereje urwo rukingo.

Abanyeshuri ndetse n'abantu bakuru bafite utudarapo bamanitse hejuru. Bigaragara ko bishimiye igikorwa cyabaye, harimo umwana wambaye imyenda y'umutuku.

Abantu bari gushungera umuntu uri kuvoma kumugezi uzana amazi ariko bawupompye uyu mugezi n'umwe mu migezi bashyira ahantu hataba amazi meza.

Icyapa cy'ubururu kirimo udukoni tw'ubururu n'umutuku, kikaba kirimo akarongo gahagaritse gafatanye n'agatambitse bikoze imfuruka ya mirongo icyenda, kiba cyanditsemo amagambo y'icyatsi ndetse n'andi y'umweru n'umubare mirongo irindwi na gatanu.

Umwana w'umunyeshuri ufite uturahuri tubiri turimo amazi meza, yambaye ikabutura y'ubururu n'ishati y'umuhondo akaba yishimye, gusa inyuma ye hari ikidendezi cy'amazi ndetse n'abana bangana na we batagiye ku ishuri.

Aba ni ab'abanyeshuri bari kuvoma amazi meza afite isuku, bari kuyavomera mu ndobo z'imihondo, bambaye iniforume za kaki, urabona ko bishimye cyane.

Umuntu uri koga intoki akoresheje ikiganza kimwe, kuri ya mazi aturuka mu isoko, ya yandi twita amazi ya kano. Uyu muntu akunda isuku kuko yambaye n'ikote rimeshe.

Abanyeshuri b'abakobwa n'abahungu bambaye imyenda y'ubururu n'udupfukamunwa n'abahungu bambaye kaki, bari mu isaha y'ikiruhuko cya saa sita, aho buri wese afite isahani y'icyuma iriho ibiryo by'akawunga n'ibishyimbo.

Ahantu harambuye neza cyane nta misozi ihari mbese twita ikirambi, hari ibigega byinshi bitunganya amazi bikayageza ku baturage.

Abana bishimye cyane bari gukina n'amazi, umwe yambaye umwenda mwiza cyane ijyanye iri mu mabara y'icyatsi n'umweru undi yambaye agapira gatukura ndetse n'ikabutura.

Umwana uri kwikorera indobo y'umuhondo amaze kuvomeramo amazi, imbere ye hari ivomo ryubatse neza ndetse n'umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi n'agapira k'ubururu n'inkweto zifunze.

Ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura ry'amazi wasake kikaba gifite amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu ndetse n'asa mu ibara ry'icyatsi.

Umwana wambaye iniforume y’ikanzu y'ubururu, n'agapira k'umweru, ari gukaraba intoki n'amazi meza, imbere ye hakaba hari indobo imwe iriho aka robine yanditseho amagambo ya unicefu.

Ikigega cy'amazi meza kigezweho, iki kigega kizajya gitanga amazi ku baturage bayakeneye kibarinde gukoresha amazi y'ibiyaga bityo bagire ubuzima bwiza.

Umwana w'umuhungu uri kuvoma amazi, uyu mwana yambaye agapira k'umuhondo, n'ipantaro nini y'umukara, ari kuvoma amazi, ku migezi myiza ya kijyambere, ndetse akaba avoma n'amazi asukuye.

Ivomo ririho abantu batandukanye bari mu bikorwa by'amasuku, abandi bakaba baje gushaka amazi nk'ibisanzwe, aba bantu ni benshi bigaragara nkaho amavomo adahagije.

Abantu bambaye imyenda yabugenewe, imwe bambara bari kurwanya icyorezo cya Korona virusi, aba bantu bafite inshundura z'imituku ndetse bambaye bikwije neza, ku mubiri wabo hose.

Umukobwa wambaye agapira gatukura n'ijipo y'umukara. Uyu mukobwa ari kuvoma amazi mu ijerekani ry'umuhondo, yariteretse mu mabase abiri, uyu mukobwa ameze nk'umukobwa uri mu isuku yo gufura imyenda.

Ibigega byinshi bitandukanye biri ahantu habugenewe ibi ni ibigega bitunganya amazi meza kugira ngo rubanda rubone ayo rukoresha atarabagiraho ingaruka.

Icyumba cyabereyemo inama, abayitabiye bakaba bamaze gufata amafunguro ya mu gitondo, imeza ibari imbere iriho udukombe banywereyemo, akantu bita raronje ndetse na porojegiteri, ku meza ziri imbere yabo.

Abantu batandatu bahagaz'ahantu mu muhanda w'igitaka ,hakaba hari umwana wikoreye ijerekani ipfundikije umwanaana uyu mwana barimo baramutura ijerekani yikoreye.

Umuganga wambaye iherena rirerire, akaba yambaye igitenge, ndetse n'itaburiya y'umweru, ari guha uruhinja umuti, ndetse n'umubyeyi w'urwo ruhinja akaba yishimye.

Abantu batandukanye barimo urubyiruko, abamama n'abapapa bahagaze kuri sima iteye irangi ritukura, imbere y'inyubako nziza cyane iri mu ibara ry'umuhondo ndetse hakaba hari n'igiti bita umukindo.

Abagore bafite ingufu bakamenya no kuzikoresha, abagore bakora nk'abanyamwuga babiri bateruye igifuka bagihereza umugabo uri hejuru, aba bagore bazi gukora cyane.

Abana bishimye, umugabo n'umugore bameze neza n'umubyeyi uteruye umwana bari ahantu, inyuma yabo hari ibirango bya yunisefu.

Umukobwa usutamye uri koga intoki ari guseka, imbere ye hari amajerekani atatu abiri manini, rimwe ry'umuhondo irindi ry'ubururu ndetse na kamwe k'umuhondo gato akaba akikijwe n'ishyamba.

Aba ni abakozi ba UNICEF mu mabara y'ubururu, haranditse ngo "UNICEF kuri buri mwana," aba bambaye udupira tw'ubururu kandi barishimye cyane, ubona ko ibyo bakora bibateye ishema.

Abantu batatu babiri bari kwandika mu bitabo binini bimwe byo kwa muganga ndetse bakaba bafite utuntu mu ntoki zabo, bambaye amakanzu y'imyeru undi yambaye iy'ubururu.

Abajene mbese abantu b'urubyiruko bambaye amataburiya y'imyeru, abandi bambaye imyenda y'umukara ndetse bakaba bafite utubaji tugaragaza icyo bakora. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho Nyabageni outreach.

Abantu benshi batandukanye barimo abagabo n'ababyeyi bakuze, bitabiriye inama mu cyumba cyiza kandi kinini, bose bicaye barakwirwa. Iki cyumba gishobora kwakira inama yitabiriwe n'abantu benshi.

Umujyanama w'ubuzima wasuye urugo rw'abajene bakiri bato, mbese bataragera kure mu bijyanye n'imyaka, umujyanama w'ubuzima ari kubagira inama zitandukanye ku mibereho myiza y'umugore utwite.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, uri koga kuri za kandagirukarabe zo kwiyaranja, izo wakoraga ushinze ibiti bibiri, ugashyiramo akajerekani, ubundi ugasukamo amazi, uje akugana wese akabona uburyo yoga intoki.

Icyapa cy'ubururu kirimo ibara ry'umweru rikoze ishusho ya kare yanditsemo ngo hpv vaKIsinI ndetse n'uburyo bwo gukumira kanseri yibasira ubwonko hakaba harimo ishusho y'umugabo wambaye amarinete.

Abaganga bishimye cyane umugabo ateze amaboko abandi bari gucurira bishimiye abashyitsi b'abazungu babagendereye umuzungu umwe ari inyuma yabo afite kamera ndetse akaba ari ikigo nderabuzima cya mayange cya suwe.

Abantu batandukanye bitabiriye inama, imbere yabo hakaba hari uducupa tw'amazi, iyi nama iraganira ku buryo bakora, ku buryo bwo kugira ubuzima bwiza.

Utuntu tubiri turi mu ibara ry'umuriro mbese umutuku n'umuhondo tukaba dushushanyije ku gipapuro cy'ubururu, utu ni twa tuntu bashushanya bashaka kugaragaza amashusho ya za virusi zitandukanye.

Ikimodoka kinini cyane gitwara imitwaro, iki kimodoka cyanditseho amagambo ari mu ruziga yanditse mu buryo bw'ibara ry'ubururu avuga ngo "wa, fa, pa".

Umujyanama w'ubuzima ufite igishusho kiriho abana babiri, yerekera umubyeyi uko babara imikurire y'abana, uyu mubyeyi akenyeye igitenge n'agapira k'umweru, umujyanama w'ubuzima akaba yambaye itaburiya y'ubururu.

Umwana uri kuvoma amazi kuri ya migezi yegerejwe abaturage. Uyu mwana biragaragara ko amazi yagize icyo abamarira kuko afite isuku, n'ibyo ari kuyavomeramo bikaba bifite isuku.

Abana bari gukina n'amazi meza ubona ko babyishimiye, umwe ari koga ibiganza mbese bigaragara nkaho ashaka kuyanywa, undi na we ni uko na we bimeze.

Ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa igihe habaye ikibazo cyo kubura umwuka k'umurwayi. Ibi akaba ari byo bita bomboni, bikaba biri muu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu.

Icyapa cyanditsemo amagambo y'ubururu ndetse n'ibirango by'ubururu, iki kirango kiriho isi n'imigabane ndetse n'isaka ku mpande yaryo ndetse kikaba kiri mu ishusho y'uruziga.

Ababyeyi baje gupimisha abana babo ngo barebe uko ingano y'ibiro byabo ihagaze, ubu ababyeyi bari gusobanurirwa uburyo bwo kwita ku mwana akagira ubuzima buzira umuze.

Abantu batatu harimo umugabo n'umusore ndetse n'umwana mutoya, umusore yambaye itaburiya y'akazi wagira ngo ni umuganga n'aho umusaza yambaye akagofero k'Abasilamu n'imyenda idoze nk'iy'Abasilamu, inyuma yabo hakaba hari ibirabo birebire.

Itsinda ry'abaganga bateranye, hagati harimo umuzungu wambaye ikote ry'umukara, agashati k'umweru na karuvati. Aba baganga bafite amataburiya y'umweru ndetse buri wese yambaye akabaji k'akazi.

Abagore bari gutunda imifuka ndetse n'abandi bahagaze bari kuyishyira ku murongo. Abagore babiri bateruye umufuka mu biganza byabo, ndetse bari gukorana imbaraga, hari n'umusore ubategereje ngo abakire.

Ikirango cy'ikigo Mpuzamahanga gishinzwe kwita ku bana, iki kigo ni Unicef, kirimo ikirango cy'isaka ribumbatiye umubumbe w'isi urimo umubyeyi n'umwana, harimo ijambo rivuga ngo: ''Unicef kuri buri mwana.''

Umusore uri kuvoma mu ijerekani rinini ry'ubururu, akaba ari kuvoma ku mugezi w'igimpompo yambaye imyenda y'ubururu, hakaba hari n'abandi bana baje gushaka amazi gusa bambaye imyenda idafite isuku.

Icyumba cyabereyemo inama kikaba cyakiriye abantu benshi, rwagati muri bo hakaba harimo amaguru bacomekaho kamera kugira ngo bafate amafoto ari kure, hakaba hari ameza iteretseho amazi menshi cyane.

Umukobwa uri kuvoma amazi yo ku kivovo mbese amazi atemba, uyu mukobwa hakurya ye hicaye akana kari kumwitegereza, mbese agace babamo nta mazi asukuye abamo.

Umumama uri kugenda utanga impapuro zanditseho ibintu bijyanye n'ibyo wakora kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Abantu benshi bishimiye kwakira izi mpapuro kuko kumenya uko wakwita ku mubiri wawe ari ingenzi.

Abagore batatu babiri bunamye bari kunywa amazi bakoresheje ibiganza byabo imbere yabo hari amajerekani abiri ndetse umugezi bari kunyweraho amazi ukaba wubakiye neza.

Ahantu bari gutanga serivisi zo gukingira, umumama ufite agakapu k'isine, wambaye ingofero n'agapira k'umukara, ari guhabwa urukingo n'umuganga wambaye agapfukamunwa, ndetse n'imyenda yabugenewe.

Abantu bicaye ku ntebe z'urubaho mu cyumba gikorerwamo inama gifite amabara y'umuhondo, aba bantu bicaye ahantu heza hafite isuku ndetse bakaba bafite n'amakayi n'amakaramu mu ntoki zabo.

Umugezi wubakiye neza utanga amazi meza, hari abana babiri bari kuvoma, undi akaba ari gupompa ayo mazi, hakaba hari n'umumama, uyu mugezi wubatse neza ku buryo bugezweho.

Abantu benshi bambaye amata ya asa n'ay'abaganga abo bantu barishimye bari gukoma mu mashyi higanjemo abamama ndetse n'abapapa imbere yabo hari umugabo usa n'uri kubabwira ijambo wambaye ikote ry'umukara akaba afite n'agahara inyuma.

Abantu babiri bari kuvoma amazi, umwe ni umugabo undi ni umugore, umugore yambaye umupira wamaboko w'umweru ndetse yitwikiriye mu mutwe, umugabo yambaye ishati iri mu mabara y'umutuku n'umweru, umugezi bavomaho ukaba wubakiwe neza cyane.

Abamama babiri bicaye kuburyo butandukanye ku meza nziza cyane zirabagirana, inyuma yabo hakaba hari umwenda w'ubururu, umumama umwe ateze igitambaro mu mutwe cy'umuhondo, undi ntacyo ateze bose bari kumwenyura.

Ibitaro bishinzwe kwita ku babana n'ubumuga bwo mu mutwe, mbese muri rusange cyita ku bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, iki kigo kikaba cyitwa Abavandimwe b'urukundo.

Ababyeyi batatu baje gushaka imirimo nk'ikiyete ndetse n'ibindi, babiri bafite utubingo mu ntoki undi akaba afite igitenge, umwe ari konsa kandi afite igifuka mu ntoki n'undi afite igitiyo mu ntoki.

Umumama wishimye cyane ucuruza serivise zitandukanye, akaba acuruza serivisi za emutiyene akaba ari mu ka butike gatoya karimo amavuta sarisa, ndetse n'ibindi birungo bigiye bitandukanye.

Abamama bari mu nama, umwe wambaye akabaji mu ijosi ndetse n'ikanzu y'umweru irimo utubara tw'ubururu, undi yambaye ikote ritukura. imbere y'umumama wambaye imyenda y'umweru hateretse mudasobwa ndetse n'amacupa atatu y'amazi.

Icyapa cy'ubururu bwijimye kirimo udushushanyo tubiri tw'umugore n'umugabo, ufite igipupe cy'umutwe, muri icyo cyapa cyanditseho amagambo ngo worudi monto herifu, bibiri na makumyabiri na gatatu.

Abantu batatu b'abagore, abagore babiri muri bo bateruye abana, icyumba bicayemo kirimo akameza kagezweho, ndetse n'igikoresho giteka amazi n'icyayi kizwi nka keto.

Abamama bakuru bari gukurikirana isomo rijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, cyane hibandwa ku bwonko, imbere yabo hari umugabo uri gutanga iryo somo, ndetse inyuma hakaba hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'umukara, n'idarapo ry'Amerika.

Umusaza wambaye ishati y'amakarokaro y'umweru, akaba yambaye umwitero w'umuhondo yapfunditse ipfundo ku rutugu rw'ibumoso, uyu musaza akaba afite icumu kandi akaba ari guseka.

Abantu bicaye mu nama biganjemo aba papa n'aba mama ba mama bakaba bateretse amasakoshi ku ma meza ateguye neza ari imbere yabo hakaba hari ijambo riri gutangwa n'umumama uhagaze wambaye ikanzu y'umweru n'agakote k'umukara.

Icyapa cy'icyatsi kirimo udushushanyo tw'abakobwa babiri bambaye udupfukamunwa. Iki cyapa kirimo amagambo amwe manini andi matoya yose yanditse mu ibara ry'umukara.

Abantu bari mu biganiro urabona ko bateze amatwi kandi bakurikiye neza bari mu biganiro bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe cyane cyane ku mitekerereze n'imikorere y'ubwonko.

Abantu batatu bicaye ahantu hari utuzu twubakishije ibyatsi, aba bantu ni batatu bambaye udupfukamunwa, bafite icyo bari kuganiraho cyane nk'ibiganiro byo kuzahura ubuzima.

Umugore mwiza cyane ariko warakaye bisa nkaho hari uwamuhemukiye, yakunjije isura, agahanga aragakambya asa n'ingagi, mbese urabona ko agahinda n'umujinya ari byose mu maso ye.

Abana bato bishimye bambaye udupira tw'umuhondo bakaba bambaye n'utundi tuntu dukoze mu bipapuro mu mutwe, harimo n'abantu bakuru bari gukoma mu mashyi.

Umugabo mwiza udakora siporo, yambaye ishati y'icyatsi kigiye gusa n'ubururu, inyuma ye hari ibishushanyo binini biri mu ibara rya kaki bikikijwe n'udukandara tw'icyatsi.

Icyumba cyateraniwemo n'inama akaba yitabiriwe n'abantu benshi batandukanye, iki cyumba kirimo porojegiteri n'umuntu uri kuyikoresha harimo na none screen bita flat.

Umugore n'umugabo bicaye mu cyumba kirimo ibyapa bine, bitatu bya RBC n'ikindi cyapa kirimo ikirangantego cy'u Rwanda, imeza ziteretse imbere y'abo bantu, ziriho amacupa y'amazi ndetse na mikorofone.

Umumama w'inzobe wishimye ufite imisatsi myiza ikaraze yambaye agakote k'umukara n'agakanzu k'umutuku ndetse n'ikiranga akazi akora, hirya ye hakaba hari icyapa gitukura cyanditsemo amagambo y'umweru.

Umugabo mukuru ufite amaso atukuye bigaragara ko afite ikibazo cy'amaso ndetse si ibyo gusa, arareba nk'umuntu ufite ibibazo byinshi cyane bimwibasiye.

Umuntu ufungiye mu cyumba cyijimye kirimo urumuri ruke, uyu muntu afunze wenyine kandi nta myenda yambaye, arabunuje, urabona ko atishimiye ibimukorerwa.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe benshi bakunda kwita umusazi, bigaragara ko yatangiye ibikorwa bye by'ubusazi. Uyu muntu akeneye kwitabwaho n'inzego zibishinzwe.

Abantu bahagaze ku murongo bari gufata ifoto, abantu barimo abamama ndetse n'abapapa, bigaragara ko abapapa barimo ari abayobozi, kuko harimo umwe wambaye imyenda ya gipolisi.

Abanyeshuri bishimye cyane bamanitse ibiganza byabo hejuru buri wese ari guseka, bigaragara ko buri wese afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe kandi atekereza neza.

Umubyeyi ufite utwana tubiri imbere ye hari inkoko cyangwa intara iteretseho akabakure ka parasitiki karimo umuceri uyu mubyeyi ntabwo yishimye n'abana be ntibishimye bigaragara ko babayeho mu buzima butaboroheye.

Umugabo wambaye ishati nziza cyane, ndetse n'ipantaro nziza cyane, uyu mugabo ahagaze imbere y'ivuriro rikuru rishinzwe kwita ku barwayi bo mu mutwe ryitwa Karayesi.

Umumama wicaye mu nzu itameze neza mbese ishaje, uyu mumama urabona ko afite ikibazo cyo kwiheba ndetse no kwigunga, urabona ko yiherereye akiheza adashaka kujya mu bandi mbese afite ikibazo gikomeye.

Icyobo cyo mu kanwa kimaze gukurwamo iryinyo, iri ryinyo rikuwe na muganga ufite igikoresho cyabugenewe, ndetse akaba agomba kwitabwaho urikuwe, kugira ngo bitamugiraho ingaruka.

Umugore uryamye ari gukurwa iryinyo, iruhande rwe hari umuganga wambaye ikanzu y'ubururu, umukura iryinyo yambaye ikanzu y'umweru n'udukoresho tumeze nk'amarinete.

Abasore n'inkumi bishimye cyane bafite amenyo meza asukuye kandi akomeye, aba basore barishimira ikintu gikomeye cyane bashobora kuba baragezeho mu rugendo rwabo.

Umugabo uri guseka uyu mugabo afite umusatsi witabwaho cyane, ndetse n'ubwanwa agirira isuku yambaye agakote k'ubururu, ndetse n'agapira gasa n'ibara ry'umuntu uyu mugabo afite amenyo meza y'urwererane.

Umuntu ufite imisatsi inyereye isa n'iy'abazungu igeze mu maso, ari gukora isuku akoresheje akadodo, yambaye agasengeri k'umweru akaba ari gusukura amenyo ye.

Icyumba giteguye neza gitangirwamo serivisi z'amenyo, harimo igitanda umuntu ukeneye gukurwa iryinyo yicaraho cyiza cyane ndetse n'agatebe k'umuntu umukura iryinyo yicaraho.

Umuntu w'umwirabura wasamye uri kwambara udurinda amenyo kwandura. Uyu muntu agirira amenyo ye isuku nk'uko bigaragara kuko na we ubwe yifitiye isuku.

Umusore ukiri mutoya ufite amenyo y'urwererane akorera isuku, ari kuyitaho akoresheje akadodo, ndetse bikaba bigaragara ko n'umubiri we awugirira isuku.

Umukobwa mwiza cyane, ufite isuku, uri guseka, afite amenyo akeye, mbese ayitaho, ayagirira isuku, ubona ko bimuteye ishema, anayagaragaza neza uko yakabaye.

Umurwayi uri gukurwa iryinyo na muganga wabyize, uyu muganga yambaye ga nziza zo gukoresha akazi, ndetse akaba ari gukorana ubuhanga n'ibikoresho byabugenewe.

Umukobwa mwiza cyane ukeye, ufite isuku idasanzwe. Uyu mukobwa afite uburoso bwiza bugezweho, akaba ari kugirira isuku amenyo ye meza cyane y'umweru ndetse bikaba bigaragara ko abyishimiye.

Umusore wambaye agapira k'umweru akaba afite n'umusatsi w'umukara, akaba ari kwisukura amenyo akoresheje uburyo bw'akadodo n'amaboko abiri, mbese akunda isuku.

Abantu bari ku murongo bari kwipimisha ibiro, uburebure, bari imbere y'itente ryanditseho RBC ndetse hakaba hari n'abandi bambaye amataburiya n'imipira y'imyeru.

Igishushanyo kigaragaza uburyo amenyo agiye afatanye n'umubiri w'umuntu, iki gishushanyo kiragaragaza imizi y'amenyo yose ari mu kanwa k'umuntu.

Abana ndetse n'abantu bakuru bishimye baseka neza ubona ko amenyo yabo bayagirira isuku mbese bakayitaho neza uko bikwiye, aba bana buri wese afite umuti wa korogati wo koza amenyo.

Umuganga w'amenyo ari gutanga serivise ku murwayi ari kumukura amenyo akoresheje udukoresho twabugenewe, yambaye imyenda y'umweru amarinete ndetse na ga z'umweru, umuntu uri gukurwa iryinyo arimo arareba hejuru.

Umubyeyi wambaye agasengeri k'umweru ufite imisatsi yitabwaho neza ndetse n'isuku, afite uburoso bw'amenyo mu ntoki ze, imbere ye hari umwana ari gutoza uburyo basukura amenyo n'uburuso bwiza na korogati.

Umugabo ukuze, wambaye amarinete, ndetse ufite imvi, uri gukora isuku mu kiganza cye, imbere ye hari umuti uhanagura ikiganza, ndetse akaba afite n'agashinge mu ntoki.

Umusore uri gusukura amenyo, yifashishije uburyo bw'akadodo, uyu musore afite amenyo meza cyane y'urwererane, ayagirira isuku uko bigaragara, kuko na we umubiri we ugaragaraho isuku nyinshi cyane.

Umuganga wamenyo uri kwereka uwaje amukeneyeho serivise uburyo bwo kugira isuku amenyo akoresheje utudodo, uyu muganga akaba afite amenyo yitaweho neza cyane.

Umuganga wita ku menyo, uyu muganga ari kwiga ku menyo atandukanye, imbere ye hari ibishusho bigaragaza ubwoko bw'amenyo ndetse n'imizi yabyo. Yambaye amarinete ndetse n'ishati nziza y'umweru.

Abana bato cyane bishimye bambaye iniforume bamanitse amaboko, bafite umuti wa korogati, aba bana barakeye kandi bafite isuku, dore ko bamaze no kubwirizwa uburyo bwo gusukura amenyo.

Umuganga wita ku bantu bakuze, urabona ko ari guha serivisi uwaje umugana, umuganga yambaye umupira uri mu ibara ry'ivu, uwaje umugana na we yambaye umupira uri mu ibara ry'igitaka.

Ababyeyi batatu bambaye imyenda ya siporo babiri bambaye imyenda, udupira tw'ubururu ndetse n'amatiriningi n'inkweto nziza, aba babyeyi bombi barishimye mbese ubona ko nta kibazo bafite mu buzima bwabo.

Umusaza wishimye imvi zabaye uruyenzi, akaba yambaye amadarubindi, akaba yicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga, akaba ari gusunikwa n'umukobwa wishimye wambaye agapira keza cyane.

Abantu bari muri salle; iteguye neza yabereyemo ubukwe, aba bantu bari guhabwa serivisi n'umu mama mwiza cyane ufite imisatsi iboheye inyuma.

Umuforomokazi ushinzwe kwita ku bantu bakuze, uyu muforomokazi afite imisatsi inyereye, ndetse yambaye n'ikanzu itukura, ari kwita ku musaza waje umugana ufite imvi akaba yambaye ni'shati y'umweru.

Umubyeyi ukuze wicaye hanze akaba akikijwe n'ibyatsi bitandukanye, uyu mubyeyi ari gutekera ku mabuye atatu bita ishyiga rya kinyarwanda, agasafuriya akaba yagapfundikije akandi.

Umugore wambaye agapfukamunwa ndetse afite n'imisatsi izinze, uyu mugore yambaye igishati cy'icyatsi ari gufungura ibifungo by'umugabo ukuze nawe wambaye agapfukamunwa, akaba yambaye nawe ishati y'ubururu yicaye.

Umubyeyi ugaragara nk'aho akuze mu myaka kuko imvi zamaze gutaha umutwe we, ari kumwe n'umukobwa utari mukuru mu myaka kuko aracyafite agasura keza, uwo mukobwa ari guseka ari no kwereka umubyeyi akuma ko guterura.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi iri mu ibara ry'ubururu, uri guha umukecuru ikinini cyo kunywa, imbere y'umukecuru hakaba hari ameza ateretseho ikirahuri kirimo amazi n'ikarito ibikwamo iyo miti.

Ababyeyi b'abagore bateze ibitambaro mu mutwe, bafite igitebo kinini bari gusoroma icyayi, bita kukinoga, aba babyeyi bafite akamwenyu nk'aho bahembwe.

Umugangakazi wambaye ikanzu y'umweru ufite imisatsi inyereye uri kwerekera umugabo ukuze ufite imvi m'umutwe no ku bwanwa uko baterura icyuma umugabo yambaye agapira k'ubururu.

Umubyeyi wishimye, wambaye agapira k'umweru ndetse akaba afite akantu kameze nk'agapupe, k'akuma abantu baterura bubaka umubiri.

Ahantu hatangirwa serivisi ku bantu bakuru kwa muganga, abantu babiri baje gushaka izo serivisi bose barishimye, bishimiye serivisi bahabwa, kandi aba bantu ni bakuru cyane.

Abantu bicaye munsi y'igiti cy'inganzamarumbo, bicaye bakoze uruziga, bakaba bari kungurana ibitekerezo bitandukanye. Aba bantu barimo abakuru, abana ndetse n'abasaza bashyeshe akanguhe.

Ababyeyi babiri bari kumwe bombi bishimye, barimo umubyeyi umwe ukuze n'undi ukiri mu myaka itari minini cyane, umwe yambaye itaburiya y'ubururu, undi yambaye imyenda isanzwe.

Abagabo bicaye mu ntebe z'imifariso, bamwe bambaye amakanzu, bafite n'ibitambaro mu mutwe ndetse mu ntoki zabo bakaba bafite inkoni, abandi bambaye amapantaro manini, amwe avuga ati "mfata hejuru hasi ndimenya".

Umugabo ukuze uteruye umwana ufite igipupe, uyu mugabo yambaye ishati y'amakarokaro n'umwana yambaye agapira karimo uturongo tw'umweru ubona ko bose bafite ubuzima bwiza.

Umukecuru umaze kugira imvi z'uruyenzi wishimye cyane wambaye ishati y'umweru inyuma ye hari umukobwa ufite imisatsi myizaumukara nishati y'icyatsi irimo uturongo tw'umweru.

Umugore wambaye amarinete wishimye uteze mu mutwe igitambaro cy'umukara, akaba yambaye umupira wa oranje inyuma ye hari umukobwa umwitaho nawe wishimye.

Ahantu hateguye neza cyane mu mabara agize idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, aha hantu hari abantu benshi bafite ibikoresho byifashishwa n'ababana n'ubumuga nk'imbago utugare ndetse na po.

Umuganga wita ku bantu bakuze. Uyu muganga ari guha serivise uwaje amugana akuze, bigaragara ko afite ikibazo cyo kugenda, mbese ntabwo agenda neza.

Umuntu mukuru w'umukecuru afite ikirahure cy'amazi ndetse akaba ateze ikiganza bari gushyiraho imiti agomba kunywa. Iyi miti ari kuyihabwa n'umumama ukiri muto wambaye imyenda y'akazi y'ubururu.

Umukecuru n'umusaza bicaye kumeza amwe, imbere yabo hakaba hari inyandiko nyinshi zitandukanye, ndetse n'ikaramu y'umukara, umusaza afite imvi yambaye amadarubindi ndetse akagira na terefone mu ntoki.

Umumama ukuze ufite isuku yambaye agapira keza cyane kajya gusa n'umweru imbere akaba yambariyemo akenda kajya gusa n'ikirere akaba afite akagozi gatukura akaba ari kumwe n'umuganga wambaye itaburiya y'umukara uwo muganga akaba ari umwere.

Umubyeyi wambaye yikwije afite imisatsi y'umukara igera mu mugongo, yambaye ijipo nziza y'umweru irimo uturarabyo n'agashati k'icyatsi, inyuma ye hari indangururamajwi ndetse afite na mikorofone mu ntoki.

Ikirango kirimo itara kigaragaza ibimenyetso bitandukanye bya diyabete, uramutse ubonye ikimenyetso kimwe muri ibi byatanzwe wanyarukira kwa muganga, harimo cyane nko kugira icyaka.

Umugore n'umugabo bafite ibyapa bitandukanye bafite icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ibindi byapa bibiri biri mu ibara ry'icyatsi, umugore n'umugabo barishimye nk'uko bigaragara.

Ikirango cyanditsemo amagambo y'ubururu n'andi y'umutuku, hagati yayo haciyemo akarongo, ni ikirango cyanditsemo amagambo agira ati, ''twigane abana HIV na AIDS''. Iki kirango kigamije gukumira no kurwanya ubwandu bw'agakoko gatera sida.

Abantu bicaye mu nama imbere kuri podiyumu hakaba hari abandi bicaye batandukanye harimo abazungu babiri, ndetse n'abirabura batanu, aba bantu inyuma yabo hari icyapa kiriho umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane.

Abagore bane bishimye, bari mu ishusho y'urukiramende ikoze nk'ikadere, iyo shusho ikaba iteye nk'icyapa, muri icyo cyapa kirimo amagambo agaragaza ubwirinzi bwa kanseri y'ubwonko.

Icyapa kiriho uburyo bwo kurinda no guhagarika icyorezo cya corona virusi, kiriho uburyo butandukanye bugera kuri butandatu, nko gukaraba intoki gusiga intera ya metero n'ibindi.

Icyapa cy'ubururu cyanditsemo amagambo y'umweru ndetse andi akaba akikijwe n'ibara ry'umutuku n'iry'umuhondo, cyanditseho amagambo agamije kwita ku barwayi ba kanseri.

Icyapa cy'ubururu bwijimye bujya gusa n'umukara, kirimo udushushanyo tubiri, ak'umuntu uri gufata urukingo ndetse n'ak'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, kikaba kirimo amagambo aranga ibyiza by'urukingo rwa korona virusi.

Abantu bicaye neza mu cyumba cyiza giteguye neza gikorerwamo inama. Aba bantu bicaye nk'abakurikiranye inama, mbese hari ibintu bari guhugurwamo binyuze mu bitekerezo bitandukanye.

Ikirango cy'ubururu cyanditsemo amagambo y'impine mu ibara ry'umwe, H, P, R buri nyuguti ifite icyo ihagarariye, mu magambo haditse Health People Rwanda.

Icyapa kirimo amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi, kiriho amagambo y'impine nka: r, h, i, a, gusa kikaba kigamije kurinda no gukumira kanseri.

Inama yateraniye i Kigali ku ya makumyabiri Ukwakira, bibiri na makumyabiri na kane, igamije kurwanya icyorezo cya mabaga, iyi nama irimo abagabo babiri biyubashye bambaye amakoti meza ndetse na karuvati.

Icyapa kirimo amabara atandukanye nk'umutuku, ubururu bw'ikirere, ibara ry'ivu, ubururu bwijimye, kirimo amagambo agiye atandukanye yanditswe mu ibara ry'umukara.

Inama yateranye bigaragara ko iri kwiga ku bijyanye n'ubuzima, inyuma hari icyapa kinini cyane, cyanditseho ibijyanye n'ubuzima bwiza.

Icyapa cy'icyatsi cyanditsemo umubare gatatu mu ibara ry'umweru, kikaba kirimo akarongo kavunaguye mu ibara ry'umweru n'agatima keza, gashushanyije mu ibara ry'umweru.

Icyapa kinini cyane cy'ubururu cyanditsemo amagambo y'umweru, kiriho umumama bigaragara ko ari umuganga wambaye ikanzu y'umweru n'ingofero y'abaganga mu mutwe n'agapfukamunwa ku kananwa.

Umumama mukuru ukuze wambaye agapfukamunwa k'umweru n'uturinete ku gapira k'umweru yambaye, afite imisatsi izinze ari guhabwa urukingo ariko arashinyirije.

Abaganga b'abakobwa n'abagore batandatu bambaye udupfukamunwa n'impuzankano y'ubururu, inyuma yabo hakaba hariho amagambo agira ati legasi kirinike.

Icyumba cyiza cyane giteguye neza kikaba kirimo amatara manini agezweho na parafo nziza ndetse n'utuntu tw'umweru, iki cyumba kirimo za ravabo zigezweho ndetse n'ibikoresho bya kizungu.

Icyumba cyiza cyane cy'umweru, kirimo ibitanda n'amashuka y'icyatsi, buri cyumba kigiye gitandukanijwe n'amarido, kikaba gifite ubushobozi bwo kwakira abarwayi batatu, buri wese akaba yaryama yisanzuye.

Inzu nziza yubatse iri mu mabara y'umweru, ikaba ifite urugi rugezweho, rufite ibirahure bikomeye cyane, imbere yayo hakaba hari akavaze karimo ururabo rwiza cyane.

Icyumba cyiza cyane giteguye kandi gifite isuku kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'ibitanda bimwe bakonja ndetse n'utundi dukese babikamo ibikoresho byo kwa muganga.

Ahantu hagenzurirwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye, umuntu wese uri muri iki cyumba yambaye agapfukamunwa, hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'ikintu kimeze nk'ishashi ku mutwe, uri kureba kuri sikilini uko ibintu byifashe.

Umugangakazi ufite imisatsi yumukara iboshye akaba ari kumviriza yambaye itaburiya yumweru irimo uturongo tw'ubururu akaba ari mu cyumba giteguye neza cyane.

Inzu ifite imiryango ibiri iyo miryango ikaba itandukanyijwe n'udukuta twubakishije amatafari ahiye iyo miryango iri m'i ibara ry'umweru ndetse yanditsemo amagambo m'ibara ry'umukara.

Inzu ifite igisenge cy'ubururu ndetse n'imitambiko y'umukara, ikaba iri mui rangi rijya gusa n'umuhondo, yubakishije amatafari ahiye, hicaye abamama babiri, buri wese afite umwana, ikaba ari iy'ikigo nderabuzima cya Shyagashya.

Icyumba cyiza cyane, cy'umweru, kirimo ibikoresho by'itumanaho, by'ikoranabuhanga, n'udutebe tw'umukara, ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma, imiti yo kwa muganga.

Inzu nziza cyane yubatse mu kibanza kigari, iyi nyubako ifite jaride nziza kandi yisanzuye, ikirere cyaho ni cyiza mbese nta mvura ikirangwamo kuko ni ubururu n'umweru.

icyumba kiza cyane kirimo utugabanya ubushyuhe bita vandalateri hakaba harimo n'intebe nazo zigiye ziteye ukuntu iki cyumba kikaba kiri mu mabara y'umuhondo

Inyubako nziza cyane igeretse rimwe ndetse yubatse ku buryo burambye ifite imbuga ipavomye harimo ibiti by'imitako, iyi nyubako ikaba ari iy'ikigonderabuzima cya Nyarurenzi.

Icyumba cyo kwa muganga kiryamyemo umurwayi, iki cyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye bigenda byifashishwa mu gutanga serivisi zinogeye umurwayi, iki cyumba giteguye neza ndetse mu mabara y'umweru akeye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye ndetse bitazwi cyane n'ubonetse wese, iki cyumba kirimo za mudasobwa n'ibikoresho byazo n'udutebe twiza tw'umukara.

Icyumba kigari cy'abarwayi giteguye neza kandi bikoranywe isuku, iki cyumba kirimo ibitanda bipanze neza, ibyo bitanda biryamyemo abarwayi, urabona ko hari n'ababana n'ubumuga bari mu tugare twabo ndetse n'inzitiramibu zirimo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye nka mudasobwa, agatebe keza kagezweho k'umukara ndetse n'ibindi bikoresho, hakaba harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa k'umukara.

Kwa muganga hicaye abantu batandukanye nk'ababyeyi, abapapa, abapadiri, abasirikari, abaganga, abamasera n'abandi bafite abana.

Icyumba kirekire cyo kwa muganga kirimo ibitanda abarwayi barwariraho, hakaba harimo umuganga wambaye imyenda y'akazi iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, buri gitanda kikaba gifite inzitiramibu.

Inyubako y'ibitaro bikuru byitiriwe umwami fayisari, ibi bitaro bikaba biriho amadarapo atatu atandukanye, irizwi cyane rikaba ari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umubyeyi uri kwitabwaho n'abaganga, uyu mubyeyi yambaye imyambaro yabugenewe yambarwa n'abarwayi, n'aho umuganga yambaye itaburiya yabugenewe y'ubururu.

Kaminuza nkuru y'u Rwanda, inyuma yaho hari jaride iriho umugabo wambaye ishati itukura ndetse n'ipantaro y'umukara akaba agendagenda gake.

Icyumba kiza kiriho ibitanda byiza byo kwa muganga ibi bitanda bikaba biryamishwaho abarwayi baje gusaba serivisi bashaka kurwarira mu bitaro, iki cyumba giteguye neza cyane kandi n'isuku.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byabugenewe ndetse kikaba kirimo n'akabati keza, iki cyumba kirimo igitanda ushobora kuryamaho umutwe ukajya mu mashini bakagusuzuma uko ubuzima bwo mu mutwe buhagaze.

Icyumba cyiza kinini kirimo udutebe dutatu tugezweho, iki cyumba kikaba ari iduka ridasanzwe, kuko rigurishirizwamo amataratara cyangwa amadarubindi atandukanye.

Icyumba kiza cyane cyubakishijwe ibirahuri ndetse hasi hakaba hari amakaro, iki cyumba gikorerwamo ubucuruzi butandukanye bw'imiti ndetse n'amarinete.

Inyubako nziza cyane y'mweru, imbere hakaba harimo ibara ry'umukara ikikijwe n'indabo nziza, n'imbuga ipavomye neza handitseho amagambo ngo nyarugenge disitirigiti hosipito.

Inzu nziza cyane yubatse igeretse rimwe, ikaba imeze nkaho yakira abantu batandukanye, imbere y'iyo nzu hari imbuga twakwita parikingi ihagije ndetse ikaba ifite ubusitani burimo idarapo ry'u Rwanda.

Icyumba cyiza cy'umweru kirimo sikirini nziza z'umukara zitandukanye, hakaba harimo n'igitanda cyo kuryamishwaho umurwayi, iki cyumba kirimo vandarateri zo kuzana akuka igihe ubushyuhe bwabaye bwinshi, kikaba gihagazemo abaganga n'abandi bantu batandukanye.

Inzu yubatse iri mu ibara ry'umutuku werurutse; irimo amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi ndetse ikaba ifite utubara tw'umuhondo n'ubururu; imbere hakaba hari ikivase kirimo igiti kirekire.

Umuntu wazanye umwana kwa muganga, uyu mwana ari kwitabwaho n'abaganga, umuganga uri aha yambaye agapfukamunwa kamwe k'abasirimu ndetse n'ishati y'umweru, uwo bari kumwe na we yambaye igitambaro mu mutwe.

Icyumba kirimo akamashini keza cyane gatangaje katamenyerewe na burimwe wese mbese ntabwo wapfa kukavuga uko wiboneye, ako kamashini kari mu ibara ry'umweru ariko ntabwo gasanzwe.

Inyubako igeretse yubatse nk'amashuri yakira abantu batandukanye kandi benshi, imbere y'iyo nyubako hari imodoka y'umukara ndetse n'imbuga ipavomye neza, iyi nyubako ikaba ifite ubusitani bwiza uko bigaragara.

Umubyeyi uhetse umwana, bigaragara nk'aho ari kumusimbiza ngo asinzire. Uyu mubyeyi ahagaze mu rupangu rwiza cyane, rw'amarembo y'ibitaro bya Kigina.

Inyubako y'ibitaro iri mu ibara ryirabura, iki cyumba kikaba ari ikibikwamo amaraso yatanzwe aba ategereje kwifashishwa ku murwayi amaraso yabanye make.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, nka mudasobwa na sikirini nini, ndetse kikaba giteguye neza cyane, kirimo udukoresho tw'udutsinga tw'umweru ndetse na kibodi

Inyubako yubatse neza cyane nko kwa muganga. iyi nyubako ikaba igendwa n'abantu batandukanye nk'abagabo, aba mama ,ndetse n'abana. haparitse imodoka kandi, hakaba hari n'icyapa cyarimo amabara y'ubururu n'umweru akoze inyuguti ya F.

Icyumba giteguye neza gitangirwamo serivisi z'ubuganga. Iki cyumba kirimo agatanda k'abarwayi kagezweho, agatebe k'umwitaho kagezweho, ndetse n'ibindi bikoresho bigezweho.

Icyumba cyiza cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye nk'ibitanda n'amasikirini hakaba harimo na mudasobwa iki ni icyumba kiryamamo umurwayi urwaye byihutirwa.

Inzu y'ibitaro byita ku bakobwa cyangwa igitsina gore, iyi nzu ifite akajaride gatoya ndetse ikaba yanditseho mu mukandara wayo ngo Isange one stop Remera Rukoma.

Inyubako nziza kandi ikeye ifite isuku hanze hakaba hari ababyeyi ndetse n'umugabo, mo indani hakaba harimo abaforomo babiri bambaye amataburiya y'imyeru.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara agapira akaba yagatebeje, ari gutegura ibyumba biryamamo abarwayi kwa muganga abamanikira inzitiramibu.

Icyapa kiri mu mabara atandukanye, cyanditsemo amagambo akurikira, aho bakurikiranira indembe, mu rwerero, aho babyarira, icyumba cy'ababyaye, icyumba cy'abagore, icyumba cy'abagabo, imbagwa n'ibindi.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye nk'utumeza, amafirigo ndetse n'ibindi, kikaba giteguye neza cyane harimo umuganga wambaye itabuliriya y'umweru ndetse n'ipantaro y'umweru ndetse yifubitse no mu mutwe.

Umubyeyi waje gukingiza uruhinja kwa muganga. Uyu mubyeyi yambaye agakanzu keza kagezweho k'ubururu, muganga akaba yambaye agapfukamunwa n'ingofero y'ishyashi ndetse n'itaburiya y'akazi.

Icyumba cyiza kinini cyakira abarwayi benshi, kirimo amarido, ibitanda byiza bigezweho bifite amapine, ndetse iki cyumba kirimo ahantu hisanzuye ku buryo wakwicara ugahumeka neza.

Icyumba kinini cyane kibitsemo agace gakorerwamo ubushakashatsi. Mu ibara ryacyo rya kaki handitsemo amagambo agira ati " risaci senta." Iki cyumba gifite ibirahuri byiza cyane ndetse na parafo isamaje.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga iri ahitaruye iyi nyubako ikaba ifite irangi ry'umweru n'igisenge cy'ubururu ikaba itangirwamo serivisi z'ababyeyi nko kubyara n'ibindi.

Inyubako nziza cyane ya etaje igeretse gatatu iyo nyubako yanditsemo amagambo agira ati porikirinike di Purato irimo agashushanyo kameze nk'umutima karimo umusaraba, ndetse imbere yayo hakaba hari ibiti by'imikindo.

Icyumba kirimo abaganga bambaye amataburiya y'imyeru bicaye ku tumeza tw'umweru hakaba harimo n'utubati turimo amacupa y'imiti dutandukanye tw'umweru.

Icyumba kirwariyemo umurwayi w'umugabo kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye ndetse na cya cyuma kibamo serumu. Uyu murwayi azamuye urukumwe hejuru bigaragaza ko yishimiye serivisi ahabwa.

Ahantu hateguye neza, hakaba hafite igisenge cy'umuhondo ndetse na vandarateri, Hari inkingi zikomeye nziza, hari intebe z'umukara zo kwegamira bita amafuteri.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza kirimo ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho bikwiriye kuba biri kwa muganga, iki cyumba kirimo udukoresho twose twifashishwa na muganga igihe aje gutanga serivisi.

Icyumba cyiza kirimo udutebe twa kijyambere tw'ubururu bwerurutse, utundi tukaba ari umweru, kikaba kirimo ibishushanyo by'ubugeni, harimo ikijya gusa n'urunwa rwa kagoma.

Icyumba cyiza kiraramo abarwayi, kikaba giteguranywe isuku kirimo ibitanda bitondetse neza ku murongo. Iki cyumba kikaba kiri mu mabara y'umweru ndetse n'amabara agiye gusa oranje.

Icyumba cyiza cyo kwa muganga cyubakishije amakaro, kikaba gifite itara rigezweho ndetse n'isaha ku gikuta. Iki cyumba kirimo ibitanda byiza abarwayi bifashisha mu kuryama.

Inyubako nziza zo kwa muganga, iyi nyubako ifite amatara meza atandukanye ndetse n'ibindi bikoresho, ikaba yanditseho ijambo rigira riti nase sitesheni.

Inzu nziza cyane itangirwamo ubuvuzi, iyi nzu yanditseho ngo poli kilinike do letware mu magambo ari mu ibara rijya gusa icyatsi, mbese muri make ni ubuvuzi bw'indwara zitandukanye.

Inyubako nziza cyane ikaba irimo utubati tubitse imiti ivura indwara zitandukanye, aka kabati kanditseho ijambo rigira iti porogiresi farumasi.

Icyumba gitangirwamo serivisi zitandukanye, iki cyumba gihagazemo abantu batandukanye ku murongo, ndetse harimo n'udutebe twiza tugezweho tw'imikara n'indi ntebe y'urubaho, harimo n'umwe ubana n'ubumuga ugendera mu kagare.

Inyubako nziza cyane kandi igezweho ifite igisenge cy'umutuku wijimye imbere hakaba hari imihanda inyuranyuranyemo haparitse amamodoka atatu ndetse n'abantu bahagana hakaba hari n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

icyumba giteguye neza cyane mbese kirimo ibyo twita dekorarasiyo harimo udutebe twiza tw'ubururu bugezweho ndetse hakaba harimo n'igishushanyo cy'akanyamaswa bita akanyamasyo.

Inyubako ikiri nshya izajya itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, iyi nyubako urabona ko ikiri nshyashya, iruhande rwayo hakaba hari abantu benshi kandi ikaba yubatswe mu buryo bwa kijyambere mbese bugezweho.

Ibitaro bikuru bya Shyira ibi bitaro byubatse mu buryo bwa kijyambere, byubakishijwe inkingi zikomeye cyane kandi bikaba bisakaje amabati atukura ndetse n'umutambiko w'ubururu ucamo amazi.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho. Iyi nyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubushakashatsi. Mbese ni laboratwari. Imbere yayo hahagaze umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ikaba ifite imbuga ihagije.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, hakaba harimo n'ibikoresha amashanyarazi, harimo sikereni nini yo kureberaho amashusho ndetse n'akandi kameze nka mudasobwa, hakaba harimo n'igitanda kiryamaho abarwayi.

Icyumba cyiza cyane kirimo ibikoresho byo kwa muganga byabugenewe, hakaba harimo ibitanda bisashishije amashuka y'imyeru hakaba harimo imyenda itukura indi ikaba ari ubururu, mu gisenge hakaba harimo n'ibindi bikoresho bizana akuka bita kirimatizeri.

Icyumba cyiza kinini cyane kandi gifite isuku. Iki cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye bya siporo. Mbese iki cyumba mu magambo ya gisiporutifu nicyo twita jimu.

Icyumba kinini giteguye neza cyubatswe ku buryo bugezweho, iki cyumba kirimo aho kwakirira abantu kandi cyubatse mu makaro, iki cyumba kirakeye cyane ndetse kiriho n'ahandi hantu handitse ngo isolation b.

Ahantu hatangirwa serivisi z'ubuvuzi hari abantu batandukanye bamwe bambaye impuzankano y'udupira tw'icyatsi ndetse n'abandi bantu batandukanye, iyi nzu iri mu nyubako y'ibara ry'umutuku ikaba yandikishijwemo amagambo y'ibara ry'umweru.

Umuganga w'umugabo wambaye itaburiya y'umweru, akaba afite n'agakaramu ku mufuka w'itabiririya, akaba yicaye ku gatebe keza cyane, gafite imifariso y'icyatsi.

Abantu batandukanye, bitabiriye ibiganiro, imbere yabo hari ubaha ikiganiro, wambaye agakoti keza k'umukara, aba bantu biganjemo abakecuru n'abasaza, n'abandi bari mu myaka itari mitoya.

Icyumba kisanzuye gicururizwamo imiti ndetse ikanabikwamo, kirimo imiti ipfunyitse mu dukarito tw'ubururu indi ikaba iri mu ducupa tw'umweru.

inyubako ikomeye cyane yubatse ku buryo bugezweho ifite imbuga ngari inyuma y'iyo mbuga hari ibiti ndetse n'amazu meza y'umweru irimo icyapa kimwe bakunze kwita igicumbi m'mIbuga hakaba harimo idarapo ry'igihugu cy'URwanda.

Ubusitani buteguye neza cyane, ubu busitani burimo imbuga ipavomye n'amapave; kandi harimo bya bikoresho bikunda gukoreshwa n'abana bita ibyicungo, igihe bari kurya umunyenga.

Icyumba kirimo akabati kanini cyane kandi keza gafite ubushobozi bwo kubika amakarito y'imiti atandukanye amakarito abitswe higanjemo aya corogati ndetse n'andi y'imiti itandukanye.

Umukobwa mwiza ufite ibisuko bita penso. Uyu mukobwa ari gukora siporo yo kugorora umubiri we, amanitse amaboko mu kirere ayagorora ndetse agorora n'intoki.

Utugabo tubiri tw'umutuku, dufite igikoresho batwaraho umukinnyi yavunitse, icyo gikoresho bacyita burankare ndetse bakaba bagitwaraho umuntu wese udashobora gukandagira ngo agende.

Ibi bintu biraha biratandukanye kandi biragoye kubivuga utarabibonyeho, harimo metero, agakombe karimo ji, harimo inkeri ndetse n'uduce tw'amaronji, ibindi ni nk'amazi ndetse n'ibindi byatsi bitandukanye.

Umusore uri kunywa amazi wicaye yambaye umupira w'ingofero ufite n'imashini twita jampa yambaye agakabutura k'umukara kandi agaragara nk'aho ari umunyesuku.

Agakoresho k'umweruru kabikwamo imiti ndetse n'ibindi bikoresho byo kwa muganga, aka gakoresho karimo ishusho y'isizo bita umukasi ndetse n'udukarito tubitse imiti itandukanye.

Amacupa atatu ari mu ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'isine, aya macupa arimo amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku akaba yandikishijwe umweru ndetse n'umuhondo, iryo jambo rikaba rigira riti sitopeyini.

Umuntu ufite ibipfuko ku biganza byombi, bigaragara nk'aho yakoze impanuka, uyu afite ibipfuko by'umweru, akaba nanone agikomeje gupfukwa.

Abaganga bambaye amashashi mu mutwe n'udupfukamunwa; bakaba bambaye amakanzu y'ubururu; ameza bakaba bayashasheho igitambaro cy'ubururu; inyuma yabo hakaba hari n'abandi bicaye bambaye amakanzu y'ibyatsi.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, Harimo udusizo, harimo utwo bita sikoci, harimo amavuta ya vazerine, ndetse n'indi miti yitwa cold pack. Harimo nanone n'indi miti nka pomade.

Ahantu hari ibiganza bibiri bifashe imbuto n'imboga bitandukanye nk'aho harimo karoti, shufureri z'icyatsi, itomati, ubunyobwa ndetse na tungurusumu na pome, avoka ndetse na pavuro y'umuhondo, hakaba hari inkweto n'ibindi bitandukanye.

Agakoresho k'akuma gafite amaguru ane, aka gakoresho ni umweru ndetse kakaba gafite n'amabara y'umukara, ikirindi cyaho cyangwa aho gufata ni umukara n'udupine twatwo ni umukara.

Umusore ushinganye uri kunywa amazi, uyu musore agira isuku. Yambaye agasengeri k'umweru karimo uturongo tw'umukara, uyu musore yogoshe neza ku buryo bwiyubashye. Ari kunywa amazi asukuye.

Umugabo w'umuzungu uri kunywa amazi, ufite agaterefone mu ntoki, bigaragara ko yubatse umubiri. Yambaye furari y'umuhondo mu ijosi, agapira k'ubururu, ipataro y'umukara ndetse n'inkweto zo gukorana siporo.

Icyapa kiriho udushushanyo tw'abana, bari gukora siporo zitandukanye, hari ukora yoga, hari uwirukanka gake gake, hari uterura icyuma, hari n'abana bari gukina umupira, ndetse n'abandi bakaba bari mu tuntu twabo.

Icyuma cyifashishwa n'abasore b'ababajene bashaka kurwanya akadigi, mbese bakubaka umubiri mu byo bita sikisi paka, iki cyuma kiri kugurishwa ibihumbi ijana na makumyabiri gusa.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi y'ubururu akaba ari gufasha umusore ufite ikibazo cy'imvune kugenda byananiranye, hakurya yabo hari vandarateri ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Igikoresho cyifashishwa muri siporo, kikaba gifite amabara atandukanye, nk'umweru umukara n'ubururu, iki gikoresho kikaba kiri ahantu heza, ku buryo nta byagihungabanya.

Abagabo babiri bari mu kibuga baje kureba ikibazo uyu mukinnyi ukina rugubi ahuye na cyo, abo bagabo bose bapfukamye hasi, mu gihe ukina rugubi nawe ari uko bimeze kandi akaba yambaye kasike mu mutwe.

Umusore uryamye yubitse indada bita kubama, uyu musore ari gusuzumwa mu mugongo, umuganga uri kumusuzuma yambaye itaburiya y'akazi ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari kwifashisha igikoresho cyabugenewe.

Abantu batatu, babiri bambaye amajiri ya kuruwa ruje, bateruye umusore wambaye ipantaro yayihinnye akaguru kamwe ndetse n'agapira k'umuhondo karimo umubare gatatu wanditse mu ibara ry'umukara.

Umwari mwiza cyane uri kwita ku mubiri we ariko akoresheje siporo bita yoga, uyu mwari yambaye imyenda yagenewe gukoranwa siporo kandi ubona ko ameze neza.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agakoresho ko gusuzuma ko umubiri ukora neza cyane cyane imitsi n'umutima, ari ugukandakanda ivi ry'umuntu n'ibiganza bye.

Umusore wambaye agakomo ku kaboko ke, mu ntoki ze yambaye impeta. Uyu musore ari gukandakanda ivi rye, mbese yagize ikibazo cy'imvune akeneye kwitabwaho. Yambaye agakora k'umuhondo.

Umusore uteruye icyuma ari gukora siporo yo kubaka umubiri, imbere ye hakaba hari amagi, karoti, puwavuro, ibishyimbo, amazi ndetse n'imbuto zitandukanye nk'inanasi, imineke n'ibindi byo kunywa n'ibyo kurya nk'inyama.

Umusore uri gukora siporo ngororamubiri, uyu musore ari gukora siporo zo kunanura umibiri we nk'amaboko ndetse n'amaguru, akaba yambaye imyenda y'umukara n'ibirenge kuri sima.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa waje gusuzumisha umwana we kwa muganga ikibazo cy'amaso. Ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, naho ubikoresha ari we muganga akaba yambaye imyenda y'ubururu.

Abantu bari kumwe mu cyumba kimwe, ameza bicayeho akaba ariho ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa n'amatelefoni, aba bantu bambaye imyenda yihariye nk'aho igira icyo ibahurijeho.

Umusore uri gukora siporo ibi bita igororangingo, yambaye ekuteri z'umweru, akantu ko mu gituza k'umukara n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umutuku, kuri kaboko ke hakaba haziritse telefone, imbere ye hakaba hari amazi yo kunywa.

Umusore mwiza ufite umubiri wubatswe ku buryo bwiza, uyo musore ari gukora siporo ku buryo bwa kamere nta bindi bikoresho yifashije. Uyu musore yasobekeranyije amaboko mu buryo bwo kuyagorora.

Agakoresho ko kwa muganga kari mu mu mabara y'ubururu ndetse n'ibara risa n'iry'amazi ku gatwe akaba ari umukara, kakaba gakoreshwa mu kumva ko umutima w'umurwayi uri gutera neza.

Umuntu urwaye bazirikiye ku gitanda akaba akikijwe n'abantu benshi basa n'abapfukamye, biganjemo abasore, inyuma hakaba hari abakobwa n'akameza gashasheho umwenda w'umweru.

Igishushanyo kiriho abagabo n'abagore batandukanye, bari gukora siporo zitandukanye zagufasha kugabanya umubyibuho ukabije, iki gishushanyo kiriho inyandiko zanditse mu ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu.

Abasore bari mu muryango ushinzwe gutabarana. Uyu muryango witwa Croix Rouge mbese umusaraba utukura. Aba bafite umuntu bigaragara ko afite ikibazo bamuryamishije ku kiringiti undi aramwiseguye.

Umuntu wambaye imyenda y'ubururu bwerurutse, uyu muntu ni umuzungu, ari gukanda ivi rye, akoresheje agatambaro kabugenewe, kari mu ibara ry'ubururu ndetse gasukuye.

Ikirango kigaragaza uburyo wakoramo siporo, ukananura umubiri wawe, muri ibyo hari ugukora siporo usa n'usutamye, unanura amaboko, ugorora amaguru, mbese bita yoga.

Umusore wambaye agapira k'umweru, uri kwikanda akaboko, ari kwikanda imitsi y'ukuboko akoresheje agatambaro gasa n'agatose k'ubururu, mbese afite ikibazo cy'imvune.

Umwana uri kwitabwaho wagize ikibazo cya sheviye aho bita mu kagombambari, uyu mwana ari kwitabwaho mu buryo bwa gisirimu ntabwo ari uburyo bwa kinyarwanda gusa.

Ikiganza kiri gusuka amazi meza y'urubogobogo, aya mazi ari kuva mu kabinika gakeye gakozwe mu buryo bw'ikirahuri, nanone amazi akaba yisuka mu gakombe k'akarahuri.

Ipampa nini nziza y'umutuku iziritse ku kakarito gafite amabara y'umweru, iyi pampa yifashishwa n'abasiporutifu aba bakora siporo cyane.

Umusore ukora siporo apfukamye asa n'ukanda ivi, bigaragara ko yagize ikibazo mu ivi ubwo yakoraga siporo yirukanka, uyu musore akeneye ubuvuzi bwo kumwitaho.

Icyumba cyiza gifite isuku kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo harimo intebe zabugenewe, harimo utuvandarateri twongera akayaga igihe icyokere cyabaye cyinshi.

Icyapa cy'icyatsi cyanditseho amagambo y'umweru, iki cyapa kirimo abagabo batatu bakina rugubi, bambaye imyenda yo gukinana ndetse na kasike zimwe bita uturindamutwe.

Umusore uri kubaka umubiri akoresheje uburyo bwa siporo, uyu musore yambaye inkweto zigezweho, yambaye agaseri k'umukara ndetse n'inkweto yambaye ni umukara, uyu musore ari gukora siporo mu buryo bwo kugorora amaguru ndetse n'amaboko icyarimwe.

Umuganga ushinzwe ibintu bya siporo uri kuvura imvune z'umusore wagize ikibazo muri siporo. Uyu muganga yambaye imyenda y'akazi iri mu ibara ry'ubururu n'umusore ari kuvura yambaye imyenda ya siporo iri mu ibara ry'umukara.

Umuntu w'umukobwa uri gukora siporo zo kugorora umubiri, wambaye agasengeri keza cyane. Uyu ari kugorora amaboko aho yakazamuye akagakoza mu bujana akandi kagafashe.

Telefone nziza cyane gusa itagezweho muri iki gihe kuko ni telefone zakoreshwaga mu gihe cya kera, iyi telefone iri mu bwoko bwa za telefone zitwa tuvugane, imwe ukanda ugashyira igikoresho ku gutwi ukavuga.

Umukobwa uri gukora ubugororangingo ibi bizwi nka siporo, ari gukora siporo bita yoga, arimo aragorora umubiri we cyane cyane amaboko ndetse n'amaguru ndetse n'igice cye cyo mu nda ari kucyitaho.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa muri siporo hari ibipupe bibiri by'abantu umugabo n'umugore hari n'ikindi cy'akaguru hakaba harimo n'ibindi byinshi bitandukanye.

Icyumba kigari kirimo abantu batandukanye, kikaba kirimo n'ibikoresho bitandukanye cyane ibikoreshwa muri siporo, iki cyumba kirimo utubati twagenewe kubikwamo ibindi bikoresho bitandukanye.

amazi ni ubuzima icupa ririmo amazi risukuye neza cyane ndetse rikaba ripfundikijwe agafuniko k'ubururu iri cupa rikikijwe n'ikirango cy'amazi y'urubogobogo.

Imiti itandukanye, yifashishwa mu kuvura ibibazo by'imvune. Harimo udupomade, harimo udupampa, harimo ndetse na twatundi bizirika ku mvune, bakunda kwita bande.

Icyumba cyiza cyane cy'umweru, kirimo imashini ndetse n'agatanda gatoya, ushobora kuryamaho maze ugasuzumwa ubuzima bwo mu mutwe, bakareba uko buhagaze.

Umusore wicaye mu ntebe yabugenewe iriho imashini igorora akaguru igihe kahuye n'ikibazo cy'imvune. Uyu musore ari kumwe n'umuganga umwitaho wambaye agataburiya k'umweru.

Umusore wambaye agakabutura ka siporo n'isaha nziza igezweho, uyu musore akaba yunamye ari gukanda amaguru ye ahaherera mu ivi bigaragara ko afite ikibazo cy'imvune.

Abantu bane bose babiri bambaye udupfukamunwa, barimo ababyeyi babiri n'umwana ndetse n'umuganga, umuganga ari gupima umwana mu kanwa yifashishije igikoresho cyabugenewe.

Icyumba gikorerwamo siporo kikaba kirimo ibikoresho bigezweho bya siporo, harimo umukobwa wambaye agasengeri k'umweru w'umuzungu n'umugabo w'umuzungu wambaye agapfukamunwa k'umukara, ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Umusore n'umukobwa bari gukora siporo yo kwiruka, ibi bizwi nka mucaka. Buri wese afite icupa ry'amazi mu ntoki. Mbese umusore n'umukobwa bigaragara ko bakundana.

Umusore uri kunywa amazi, yambaye agakomo k'icyatsi, ari kunywera amazi mu gacupa gaciriritse ndetse yambaye imyenda y'umukara, kandi yicaye hasi mu muhanda nkaho yakoze siporo akananirwa.

Umukobwa uri guhabwa serivisi ya masage yo ku kirenge, uyu umuha serivice ni umuganga w'inzobere muri byo, uyu mukobwa yambaye agapira k'umutuku ndetse n'akambaro k'umukara.

Udukarito dutanu dutandukanye tubamo imiti n'ibikoresho bya siporo, tukaba turi ku murongo ariko tugiye dusumbanye, buri gakarito kariho umushumi ufite ibara ryawo nk'umuhondo, umutuku, icyatsi, ubururu n'umukara.

Umuntu uri kwikanda akaboko akoresheje agatambaro keza kabugenewe. Akaboko ari gukanda gasa n'agafite ikibazo cy'imvune. Uyu muntu ntabwo yishimye kuko yavunitse cyane.

Umukobwa wambaye agasengeri k'ubururu, afite imisatsi iziritse y'abazungu, ari kunywa amazi kandi afite umubiri mwiza utamujennye yakoze siporo bihagije.

Ahantu hateretse akarahuri karimo uduti dutatu dutandukanye, agati kamwe muri two kakaba gafite ibabi ryiza ry'icyatsi, hateretse na none akadobo k'umutuku karimo ikimera bita igikakarubamba.

Ibyatsi biri ahantu heza cyane, muri byo, hakaba harimo icyatsi kigira akarabo keza cyane ariko ibyo byatsi byose, byifashishwa mu gutunganya imiti gakondo.

Amacupa atandukanye arimo imiti itandukanye nka pomade, imiti ikorwa mu gikakarubamba ndetse n'indi ivura indwara zinyuranye. Harimo amacupa y'umuhondo ndetse n'ay'imituku.

Amacupa atatu meza cyane abikwamo amavuta akomoka ku gikakarubamba aaricyo bita alovera, aya macupa rimwe ni umuhondo irindi umweru, hari n'uducupa dutoya tune natwo tubikwamo iyo miti.

Ibyatsi bikunda kuboneka hake bikaba bikorwamo imiti ivura indwara gakondo, ibi byatsi bikoreshwa nk'imiti ya kinyarwanda mu buvuzi gakondo.

Ibyatsi bitandukanye biri gukurwamo imiti, hano hari akantu kameze nk'umudaho, akandi kameze nk'agasafuriya kabaje mu giti, harimo umuhini wo gusekuza ibyo byatsi.

Udupaki tw'imiti, agapaki kakaba karimo amabara atandukanye ari mu buryo bw'uruziga, kanditseho makumyabiri na kane, akarongo karindwi ndetse n'ijambo Alliance hejuru, hepfo hari udupaki dutatu tw'ibinini.

Icupa ryiza cyane rifite umufuniko w'umweru rikaba rifite icyapa kinditseho amagambo ngo foreva bi hani iri cupa rikaba ribikwamo ubuki bwamaze gutegurwa neza cyane.

Umugore n'umugabo bari ahantu hameze nk'agashyamba wagira ngo bari kwerekana ibyatsi bivamo umuti banabisobanura, umugabo yambaye agakote k'umukara n'agapira gatukura mu gihe umugore yambaye umupira wimbeho w'umweru.

Agacupa keza k'umweru harimo akarongo k'ubururu kanditsemo ngo foreva, aka gacupa kabikwamo imiti ivura indwara zitandukanye cyane cyane izibasira abana batoya.

Amacupa atandukanye arimo imiti ikomoka ku gikakarubamba, muri ayo macupa harimo ay'imihondo, imyeru ndetse hakaba hari n'ayanditseho shampo ziva mu gikakarubamba.

Agacupa gafunze neza k'umukara kanditseho amagambo ariw ibara ry'umweru ndetse n'ikimenyetso cy'inyoni iguruka kakaba kanditseho amagambo agira ati, "sikini oyili."

Ikarito irimo amacupa menshi cyane apfunyitse, umuti uva mu kimera bita igikakarubamba, aya macupa ari mui ibara ry'umuhondo, akaba afite udufuniko turimo ibara risa n'iry'igitaka.

Umukobwa mwiza cyane ufite icupa ry'umukara ryanditseho ngo lavenda. Iyi lavenda akaba ari umuti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zananiranye kwa muganga.

Umubyeyi witeze igitambaro cy'umweru wirabura akaba ari mu ishyamba, imbere ye hari icyatsi ari gusoromaho utubabi, iki cyatsi hakaba hari cyo agiye kukimaza nko kukibyazamo imiti.

Icyatsi cyifashishwa n'abavuzi gakondo mu gukora imiti itandukanye yo kuvura indwara nyinshi cyane zananiranye. Iki cyatsi ni umuharavumba ariko utaramenyereye kunywa imiti ya kinyarwanda ntabwo wakiteza kuko kirarura cyane.

Icyapa kiri mu mabara agiye atandukanye, kikaba gishushanyijemo ikimera bita igikakarubamba, kikaba cyifashishwa mu bintu bitandukanye, nanone harimo igishushanyo cy'inzu n'abagabo babiri.

Abagabo bambaye udupira tw'icyatsi n'amapantaro y'imikara, hakaba hari n'undi witandukanyije nabo utambaye ibisa gutyo, bahagaze mu murima uhingwamo urukakarubamba.

Uducupa dutandukanye tujyamo imiti itandukanye, hari ibibabi by'igikakarubamba, hakaba hari n'utundi dukoze mu bwoko bw'utujerekani kamwe k'umuhondo, utundi tw'umweru, byose bikaba bibikwamo imiti itandukanye.

Ahantu hari ibikoresho bitandukanye nk'icupa ricuritse ririmo umuti uva ku gikakarubamba bifashisha baborosa, hakaba hari n'agakombe karimo uburoso bubiri, hakaba hari n'ikivaze kirimo igikakarubamba.

Umuganga ufite agapfunyika k'imiti ivura indwara zitandukanye, agapfunyika umuganga afite kavamo, ibinini bita mifejine bikaba byifashishwa mu kuvura indwara.

Icyatsi cyiza kidafite amashami menshi ariko gitoshye, iki cyatsi gifite amababi y'icyatsi meza cyane, aho agati kamwe kariho amababi atatu.

Iduka ricururizwamo imiti ndetse iyo miti ikaba ari myinshi ipfunyitse mu buryo bugezweho mu macupa yabugenewe, iri duka ririmo abayicuruza ndetse n'abandi baje kuyigura.

Ibyatsi bitandukanye bivamo imiti nyarwanda harimo nk'imyenya, imyisheke, ibikakarubamba ndetse n'ibindi byatsi byiburungushuye biteye nk'uturayi, ibi byatsi bikorwamo imiti itandukanye ivura indwara gakondo.

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi gafite ikorara ry'umuhondo n'ipantaro y'umukara ufite ibyatsi bitandukanye mu ntoki nk'igikakarubamba ndetse na bimwe twita imihati.

Udupfunyika dutandukanye turimo amacupa ,amakarito, amashashi ndetse n'ibindi .... muri utwo dupfunyika tubika imiti itandukanye nk'utubika imiti ikora mu bikakarubamba ndetse n'utundi tubika indi miti ivura indwara zitandukanye.

Iyi ni imiti ivura uduce tw'umubiri dutandukanye twahuye n'ikibazo. Muri iki kishusha harimo umuntu uri kwikanda umugongo, uri kwikanda imbavu, uri kwikanda ivi, uri kwikanda n'ibitugu.

Iki cyatsi ni umuharavumba, gikunda gukoreshwa mu miti gakondo ndetse n'abandi bakagikoresha bivura magendu, bivura indwara zirimo, nk'inkorora ndetse n'ibindi, hakurya yacyo hari ibindi byatsi bifite indabyo z'umuhondo,

Utujerekani dutatu tubiri tw'umweru n'akandi k'umuhondo kamwe k'umweru gafite umufuniko w'ubururu, akandi gafite uwa oranje, inyuma yatwo hakaba hari ibice by'ibabi ry'igikakarubamba.

Udutebo dutandukanye tw'imikara duteretse ku musambi uboshye mu duti, harimo ibintu bitandukanye byo gukoramo imiti ya kinyarwanda.

Agacupa k'umweru cyane kariho amagambo y'icyatsi kakaba karimo amavuta y'igikakarubamba, aka gacupa kanditseho amagambo ngo aro jojoba shampo.

Ibyatsi bikunda kumera mu ishyamba ndetse no ku mikingo, ibi byatsi bikunda kuribwa n'amatungo magufi, yiganjemo ihene ndetse na none ibi byatsi bikunda gukoreshwa mu buvuzi bwa kinyarwanda, ibi byatsi bakaba babyita amatovu.

Ahantu hari ibyatsi bitandukanye, mbese ibi byatsi bifite amababi nk'ay'inyanya n'ayandi ameze nk'ay'imizaribu, harimo n'ibindi byatsi biteye ukwabyo kandi bifite indabyo.

Udupfunyika tumeze nk'utwakorogati, gusa ni udupfunyika twa pomade, zimwe bakora mu bikakarubamba, turi mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru, tukaba dupfundikijwe imifuniko y'umweru, hakaba hari n'ibibabi by'ibikakarubamba.

Icyapa cy'umutuku kirimo amagambo y'umweru ndetse n'agacupa k'umweru, inyuma y'ako gacupa hakaba hari amababi atatu ya kapusine, aka gacupa kakaba kabikwamo imiti kuko hasi hari ibinini.

Ibi ni ibihingwa bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti, hakurya hari indimu zifashishwa mu gukora imiti yo kuvura inkorora hino hari amacyayicyayi ndetse n'ibindi byatsi birandaranda.

Ikimera gihinzwe mu butaka butunganije, kikaba kimeze neza cyane, kikaba cyarafumbiwe uko bikwiye ku buryo cyatanga umusaruro cyitezweho ko kigomba kuba cyatanga.

Ikirango cy'imiti ya gakondo kiriho ikimenyetso cy'igikakarubamba ndetse n'inyoni iri kuguruka, cyanditseho Foreva, iki kirango kikaba kiri mu ikadire y'icyatsi.

Utujerekani tubiri turiho amababi y'igikakarubamba, akajerekani kamwe ni umweru kakaba gapfundikiye, ni umufuniko w'umutuku, akandi ni kaki kaba gapfundikijwe n'umufuniko ugiye gusa n'igitaka.

Akabindi basekuriramo imiti ya kinyarwanda, imbere yaho hari uducupa tubiri tw'amavuta ya erayo ndetse n'icyatsi bita umwenya, ako kabindi gakunda gukoreshwa n'abantu bakora imiti gakondo.

Ikirango kiriho icupa ribika amavuta y'igikakarubamba aya mavuta akaba akoreshwa nk'umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse akaba yongera ubudahangarwa bw'ubuzima bwawe.

ikibaya cyiza kandi kinini kirimo ubwatsi bwiza cyane. Harimo ikimera bita kapusine, kikaba ari icyatsi gikoreshwa nk'umuti. Iki cyatsi gifite indabyo z'umweru ndetse n'izindi zitukura.

Icyatsi cyiza cyane kikaba gifite uturabo twiza, iki cyatsi nacyo gikoreshwa mu bintu bitandukanye, nk'utuyuki turahova tugakuramo ubuki ndetse kikaba cyavamo n'imiti gakondo.

Ibyatsi bihinzwe neza kandi byitaweho byatewe umuti wo kubirinda udukoko twabyangizariza, ibi byatsi ukuntu byitaweho bigaragaza ko ari ingirakamaro cyane kandi bitanga imiti yo kuvura abarwayi itandukanye.

Ibyatsi bikoreshwa nk'umuti wa kinyarwanda, ibi byatsi abanyarwanda bakunda kubyita igicuncu, ndetse kikaba ari ingirakamaro cyane mu kuvura indwara zijyana n'ibya kinyarwanda.

Akabati karimo udupaki twinshi tw'imiti, gusa utwo dupaki, tukaba tugiye dutondetse ku murongo, ku mubare mwiza ubazwe, tukaba turimo imiti ivura indwara zitandukanye.

Icupa ryiza riri mu ibara ry'umweru, inyuma yaryo hakaba hari imbuto twita amaronji, iri cupa rivamo amavuta y'igikotori bita foreva boyo jeri.

Icyatsi cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zananiranye kuvurwa ku bitaro byo kwa muganga, iki cyatsi cyifashishwa mu buvuzi gakondo, mbese ubu bita ubwa kinyarwanda.

Icupa ririmo amavuta yita ku ruhu rwawe akarurinda kumagara n'izindi ndwara zirutera, aya mavuta ni ingenzi cyane akaba afite akamenyetso k'umuti ubu uri mu ruziga.

Icyatsi kizwi nk'umuharavumba; iki cyatsi kikaba gikoreshwa mu gukora imiti gakondo ndetse ikaba ivura nk'indwara zifata ubuhumekero nk'inkorora n'ibindi.

Ikarito nziza cyane ifunitse neza cyane iyi karito ikaba iri mu mabara meza y'isine icyatsi umweru ikaba yanditseho amagambo andekoye neza cyane.

Icyapa cy'umuhondo n'ibara ry'icyatsi gikeye iki cyapa kikaba cyanditsemo amagambo y'umukara ndetse n'agashusho k'inyoni iguruka, imbere yacyo hari ipaki y'ibinini by'umuhondo.

Ibishushanyo bibiri by'udukarito dukoze mu buryo bw'ibitanda, utu dukarito twanditseho amagambo agaragaza imiti iva mu gikakarubamba, igishushanyo gifitemo amabara y'umutuku ndetse n'umweru.

Ibyatsi bitandukanye bikorwamo imiti gakondo yo kuvura indwara zitandukanye, muri ibi byatsi harimo ibyatsi bimeze nk'igicunshu ndetse harimo n'agacupa k'umukara, kabikwamo imiti yamaze gukorwa.

Ibiganza bifashe umuti wa kinyarwanda, wari upfunyitse mu gapapuro, aka gapfunyika biragaragara ko gashaje ndetse n'ibiganza nyirabyo ni mukuru cyane, kuko yambaye ibirenge nta nkweto yambaye, mbese ntabwo ari umusirimu.

Amacupa atandukanye, arimo imiti ya kinyarwanda itandukanye. Aya macupa arasa umukara, icyatsi kibisi n'ibindi. Aya macupa aba afuritse imiti ikurwa mu myeya, n'ibindi byatsi bitandukanye.

Icyatsi gihinze mu butaka buteguye neza cyane, iki cyatsi kikaba cyifashishwa mu gutanga imiti gakondo ivura indwara zigorana kwa muganga.

Umuganga uri gusekura imiti itandukanye akoresheje udusekururo dutoya ndetse n'uduhini twatwo dutoya, udusekuro afite ushobora kuba wakagendana mu nzira usekura, uyu muganga ari gutunganya imiti itandukanye.

Icupa ryiza cyane rikozwe neza ryo mu mabara y'umweru, kiriho icyatsi kivamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye cyane cyane izataka uruhu, icyo cyatsi bakaba bacyita igikakarubamba.

Ishyamba rishakwamo ibyatsi byifashishwa mu kuvura indwara gakondo, iri shyamba rikaba ribitse ibyatsi bikurwamo imiti byinshi cyane bigiye bitandukanye.

Amacupa ndetse n'udupfunyika, turimo amavuta akorwa mu gikakarubamba, ndetse kivanzemo na avoka, aya mavuta akaba afasha uruhu gutoha, akarurinda gukacarara.

Aya ni amacupa abitse imiti itandukanye nka kafe moca, ayise, kofe, ndetse n'indi miti igufasha kugarura ubuyanja iyi ikaba ari imiti y'ingenzi cyane.